Icyuzi bakoreramo ubworozi bw'amafi, umugabo wambaye ipantaro y'ubururu n'ishati irimo amabara y'umukara n'umweru w'umwirabura wambaye ingofero, afashe indobo mu ntoki irimo ibyo kurya ari kugaburira amafi.

imiti y'inyamaswa, ifunze mu mashashi atandukanye, harimo ishashi isa nk'umuhondo ishushanyijeho inka, yanditseho ibiro bibiri, igaragaza uburemere bw'iyo miti iri muri iyo paki y'ishashi.

Umurima uri gutebwamo igihingwa n'umugore uri kugitera, wambaye umupira w'icyatsi ipantaro y'ubururu bwijimye, unasutse, wambaye n'isaha ku kuboko, iruhande rwe hari umugore ukennye igitenge, ufashe isuka mu ntoki.

Umurima uri kuhirwa n'abasore batatu, uhinzwemo amashu. Umwe muri bo yambaye ikabutura n'umupira w'ubururu. Inyuma hari insina z'amakoma maremare n'ibigori bifite amababi atoshye.